Abanyeshuri barimo kugenda biga, hakaba bafite agakoresho gateye amatsiko, kakaba barimo kugenda bagafungura kugira ngo barebe ibirimo imbere.

Umugore urimo kugenda yigisha abana ndetse kandi buri mwana afite igikombe, arimo kugenda anywa ndetse kandi bagera kuri babiri barimo kugenda batanga ubumenyi, hakurya hariho ishusho y'urukwavu ndetse n'izina ryabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba biganjemo abicaye ku meza, abenshi bafite ibitabo ndetse kandi barimo kugenda baganira benda kugera ku masaha yo gufatiraho ifunguro, bakaba barimo kugenda bisuganya.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri abanza, bakunda kwambara impuzankano y'ubururu n'umukara, akaba ariyo mpamvu bahora barimo gukina umupira kuko baba barabigize umwuga.

Umurezi uri kumwe n'abana biga mu mashuri y'inshuke, ubona ko ari kubigisha gukora uturimo dutandukanye tw'amaboko, bambaye imyenda y'umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu, ubona ko bari hagati mu kigo cy'amashuri.

Abana bari kumwe n'umwarimu wabo, aba bana biga mu mashuri y'inshuke, bigaragara ko bakiri bato, bakeneye guhabwa serivise zitandukanye kandi nziza.

Abana b'abanyeshuri, bafite ingwa bari ku kibaho bari kwandika ibyo umwarimu yabategetse kwandika, kugira ngo arebe koko niba ibyo ababwira babashije kubifata.

Igipangu kirimo abanyeshuri ndetse n'ababyeyi babo, ubona ko ari kubambika, abakarabya intoki kugira ngo bagire isuku kandi basa neza.

Abanyeshuri iyo bari kwiga baba bafite ibikoresho byabugenewe nk'amakayi, ibitabo, telefone ndetse n'ibindi bibafasha kwiga mu buryo bworoshye bitabagoye.

Ahantu binjirira hakaba hariho amarembo, hakaba hariho umugabo urimo kugenda agana ahantu hariho amarembo ndetse mo imbere hakaba harimo abandi bantu biganjemo abanyeshuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano itukura ndetse n'iyindi y'umweru bigaragara ko aba bana ibyo bakora babizi.

Mu kigo cy'amashuri, hakaba hariho ibyicungo, hakaba harimo abana biga amashuri abanza, bari mu byicungo, ku ruhande kandi hakaba hariho, n'abandi biga mu mashuri yisumbuye, barimo kugenda bitegereza ibijya mbere.

Ikibuga kinini cyane kiri hagati mu kigo cy'amashuri ayo mashuri asakaje amabati y'ubururu bigaragara ko hakorerwa ibikorwa bitandukanye by'amasomo ndetse n'inama za leta.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bishushanyije ku rupapuro, hirya hari ikibaho kinini bigaragara ko, ari ikibaho cy'umukara gikoreshwa n'abanyeshuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, akenshi ukunze usanga baba barimo gukora ibikorwa bitandukanye by'umuganda, akaba ari yo mpamvu bafashanya bagakora ikintu kizima kivamo umusaruro.

Icyumba kirimo intebe z'abanyeshuri biga amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, ubona ko ari izo bicaraho mu gihe bari kwiga, abanyeshuri kenshi iyo bari mu ishuri usanga bakunda kwiga cyane.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati atukura, bigaragara ko ari inyubako nziza, ikorerwamo ibikorwa bijyanye no kwiga kandi biga amasomo.

Abana babiri biga mu mashuri abanza bakaba barimo kugenda bavoma mazi, ku ruhande hariho n'abandi benshi barimo kugenda bitegereza ku bikorwa birimo kujya mbere, ndetse kandi aha ni amazi arimo kuva mu kigega.

Ikigo cy'amashuri kirimo intebe z'imbaho zicarwaho n'abana biga mu mashuri yisumbuye ubona ko ari ishuri rinini kandi rijyamo abanyeshuri benshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari ku ishuri ubona ko bambaye impuzankano y'ubururu, aba banyeshuri biragaragara ko bashonje bakeneye kujya mu rugo gufata amafunguro.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati atukura, bigaragara ko ari ikigo cyiza giteyemo indabo nyinshi, hagati muri icyo kigo harimo Idarapo rya Repubulika y'u Rwanda.

Abanyeshuri bakaba barimo kugenda biga ibijyanye n'ikoranabuhanga, bakaba barimo kugenda bifashisha twa tumudasobwa dutoya tw'abana, tukaba tuba dusa icyatsi, tukaba tugira n'amahembe akurura interinete.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye isize irange ry'umuhondo n'icyatsi ku nzugi, ubona ko ari ahantu heza kandi hakwiriye gukorerwa ibikorwa by'iterambere.

Isomero ry'ibitabo usanga akenshi rikunze kubamo ibitabo bitandukanye byaba imibare, Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza, ni yo mpamvu rero abantu benshi usanga bashishikarizwa gusoma kugira ngo bamenye ubwenge.

Imbaga y'abantu benshi bakaba bahagaze ahantu imodoka ziparika, bakaba barimo kugenda basuhuzanya nk'aho bataziranye, ndetse kandi hakaba hariho abagabo, abakobwa, ndetse kandi barimo kugenda baganira.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, inyubako nini ubona ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ahantu hahurira abanyeshuri ndetse n'abarezi bagahabwa inama.

Ishuri ririmo urubaho rw'umukara, hakaba harimo abana ko basabye kuba bakora umuko, akaba ari ukwandika mu magambo imibare cyane cyane guhera kuri mirongo itanu kugeza kuri maganatanu na cumi.

Mu kigo cy'amashuri kikaba gifite ibice bigiye bitandukanye, aho ibice bibiri bitambitse ikindi na cyo kikaba gihagaze, hakaba hariho umunyeshuri uri kugana hafi y'ikigega ndetse kandi iki kigo kikaba gifite inzugi zimaze gusaza.

Inyubako ubona ko iberamo inama zitandukanye, harimo ameza arambitseho igitambaro cy'ubururu n'umweru, ubona ko ari icyumba kinini kandi cyiza, kiberamo ibikorwa bitandukanye.

Ihuriro ry'abanyeshuri benshi cyane bambaye imyenda y'imyeru n'ubururu. Bahuriye ahantu ubona ko barimo kuganira ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye zabahurije ahantu hamwe.

Abana bari mu ishuri, bakaba barimo kugenda biga, biganjemo abiga mu mashuri yisumbuye, bakaba barimo kugenda bigira mu kuri bwa buryo bw'ikoranabuhanga aho bafata ibintu kuri mudasobwa bakabitubura.

Ikigo kigisha ibijyanye n'uburezi kikaba giherereye i Muhanga hakaba hari itorero cyangwa se igicumbi cy'itorero imparirwakubarusha ndetse hakaba hariho kirazira ndetse n'indangagaciro zibaranga.

Inyubako irimo intebe nyinshi ubona ko ari ishuri abanyeshuri bigiramo, ku buryo babasha gukurikira umwarimu neza kandi bagakora ibikorwa byabo batuje.

Icyumba kirimo abanyeshuri biga ibijyanye n'ubudozi, bigaragara ko babigize umwuga kuko bahungukira ubumenyi bugiye butandukanye kandi bakiteza imbere.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'agahanda gato k'amapave, kanyuramo abanyamaguru. Ni umuhanda ukoze neza ucamo ibinyabiziga bitandukanye, bikora ibikorwa by'ubucuruzi.

Imodoka nyinshi usanga zikunze kuba zifite ibara ry'umukara, ndetse na pulake ikunze kuba isa ibara ry'umuhondo harimo akabara k'umukara.

Umwarimu uri kwigisha abanyeshuri, kugira ngo bagire ubumenyi buhagije rusange, maze babashe kwiga neza bityo baziteza imbere, kandi bateze imbere Igihugu muri rusange.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, hagati yayo harimo imikindo ndetse n'indabo nyinshi ubona ko hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye bijyanye n'inama ndetse no kwiga.

Imbaga y'abanyeshuri biteguye gutaha, bakaba bahitse ibikapu byabo, hakurya hakaba hariho imodoka zigiye kubatwara zibajyana mu byerekezo bye bitandukanye, cyane cyane bagana iwabo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize irange ry'ubururu ndetse n'umweru, akaba ari inyubako nziza ubona ko ikoze neza kandi mu buryo bukomeye.

Ishuri ririmo ibikoresho bitandukanye nk'ameza, intebe, ibibaho by'abanyeshuri bakoresha ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, iki cyumba giteye irangi ry'umuhondo, bigaragara ko ari heza.

Ibinyabiziga bitandukanye bitwaye abagenzi, bigaragara ko harimo abanyeshuri benshi bavuye ku ishuri, bakaba bahetse ibikapu byabo basubiye mu rugo bagiye mu kiruhuko.

Abanyeshuri baje mu rugendo, bakaba barimo kugenda bahabwa amabwiriza, mbere yo kugira binjire mu nzu ndangamurage y'u Rwanda, bakaba batebije, ndetse bambaye imikandara y'umukara ku bahungu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari kugezwaho inama n'umuyobozi ubahagaze imbere ubona ko ari umugore wambaye ikoti ryiza kandi ari kubagezaho inama nziza.

Imbaga y'abanyeshuri benshi bakaba bateraniye hamwe, hakaba hariho umwarimu urimo kugenda abaganiriza abagezaho ubutumwa bugiye butandukanye ndetse aba ngaba biganjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu.

Abanyeshuri bicaye bakikije umwe uri hagati yabo akaba arimo kugenda abaganiriza, yambaye inkweto z'umukara ndetse kandi arimo kugenda abahiriza ubutumwa bugiye butandukanye, nabo bakagenda bamutega amatwi.

Inzu yubatse hafi y'umuhanda, ukaba urimo amabuye bagiye bacunga, hakaba hariho umugozi cyangwa se urusinga rw'amashanyarazi rurimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, hakaba hariho igiti cy'igishupuri.

Inyubako zisakaje amabati ubona ko zikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, akaba ari inyubako ziri ahantu heza hatambitse kandi habera inama nyinshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari kumwe n'abayobozi babo bari kubagezaho imbwirwaruhame ku buryo bose ubona ko bahanze amaso abayobozi, bategereje ibyo bagiye kubagezaho.

Umupolisi uri gukoresha inama abanyeshuri. Ababwira ko, gukoresha ibiyobyabwenge atari byiza. Ndetse abashishikariza, no kuvuga abo babonye babikoresha, bagatabwa muri yombi.

Imbaga y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bigaragara ko baturutse impande n'impande, baje kumva inama abayobozi babagezaho, bityo bakabasha guhindura imico ndetse n'imyitwarire.

Abanyeshuri bari kugenda mu muhanda, bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'umukara, ubona ko biga mu mashuri yisumbuye, bamwe muri bo bagiye bafite ibikapu birimo amakaye bakoresha ku ishuri.

Akabati kabikwamo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo amakaye, ibitabo n'ibindi. Hakaba hari ameza andi, kandi hakaba hariho n'intebe abantu bashobora kwicaraho cyane cyane abanyeshuri.

Mu ishuri hakaba harimo ikibaho. Kikaba cyanditseho imibare ndetse n'inyuguti. Hakaba mu ishuri ku ntebe hariho ibitabo n'amakayi by'abanyeshuri, ndetse kandi hariho ibishushanyo bagenda bifashisha

Ahantu hari ikigo cy'amashuri akaba ari mu rwunge rw'amashuri rwa ofisiyeri Butare, hakaba hariho abantu bashaka kwinjira, hakaba hariho ushinzwe umutekano urimo kugenda abibafashamo.

Ahantu hakaba hari amarembo, aho umuntu yabasha kwinjirira, hakaba harimo ubusitani bugiye butandukanye, burimo ibiti n'indabo z'amoko agiye atandukanye zituma umuntu wicaye hano abasha kumererwa neza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kaki, bahagaze munsi y'igiti bari gutegereza imbwirwaruhame bagezwaho n'abayobozi bityo bigatuma babasha kwiga neza.

Umuhanda wa kaburimbo ubona ko, uteyeho ibiti impande yawo, bikaba bikurura umuyaga kandi bikarinda, amazu y'abantu gutwarwa n'umuyaga.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, akenshi ukunze gusanga bikoreshwa n'ababyize kandi babigize umwuga, bazi gukoresha ibyo bikoresho mu buryo ubwo ari bwo bwose.

Akenshi iyo usanga inyubako nyinshi zigiye zirimo ibikoresho bitandukanye by'isuku, ikaba ari yo mpamvu rero hano hari utubati turimo ibikoresho byinshi biri mu macupa ndetse n'ibindi biri mu tubati.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'uruzitiro ubona ko ruteye irange ry'umuhondo n'umweru, ni ahantu heza, ubona haberamo inama zigiye zitandukanye, bityo abayobozi bakahakunda.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, usanga bakunda kwiga cyane kugira ngo biyungure ubumenyi, akaba ari yo mpamvu baba bashaka kuza kwiga muri kaminuza, kugira ngo babe inzobere.

Ahantu hari ishusho nini ya Yesu, hakaba hateraniye abanyeshuri baje gusenga, aha ngaha imbere hakaba ariho n'abapadiri bagiye batandukanye, barimo kugenda babayobora mu isengesho.

Imodoka irimo kugenda, ndetse hino hakaba hariho uruzitiro, ndetse hakaba ariho n'undi muhanda, uri ahantu mu kigo, hakaba harimo n'amapave. Hakurya kandi hariho, ibiti byegereye umuhanda.

Inyubako nyinshi zikunze kuba zubakishije amatafari ahiye kandi hagakorerwamo ibikorwa bitandukanye, akaba ariyo mpamvu usanga abayobozi benshi baba barabigize umwuga kubaka...

Umugore ukora mu kigo cy'abakatorike, akaba ari uwihayimana, akaba arimo kugana ku nshingano ze kugira ngo abashe kuzisoza, akaba afite igikapu cy'umukara ndetse n'ikote mu ntoki.

Ikigo cyubakishije amatafari ahiye, ubona ko iki kigo kiriho ibikoresho bigiye bitandukanye kandi mu mbuga y'iki kigo giteyeho indabo nyinshi cyane.

Icyumba kirimo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bafite mudasobwa imbere yabo. Abo banyeshuri biragaragara ko barimo kwiga kugirango biyungure ubumenyi.

Imbaga y'abanyeshuri, bagiye bakora uruziga, hagati yabo hagiye kubera ibirori, bagiye baterekaho intebe, ku buryo umuntu uri imbere adashobora kuba yaharenga, ndetse kandi kugira ngo ibintu bisobanuke, bajye batanga ikibuga, kugira ngo abantu bidagadure.

Inzu iriho aho abantu bagenda buririra, hakaba barimo umunyeshuri w'umukobwa, hakaba harimo kandi n'aho bagenda banyura mu gihe bari kugana mu byumba byabo aho baba bacumbitse.

Abari mu ishuri ndetse ni muri ya mazu aba ari amagorofa, hakurya hari indi nayo igeretse kabiri, hasi hakaba hariyo abantu bari kugenda bicaye barimo kurebera kuri mudasobwa.

Icyumba kirimo ameza ndetse n'utubati, hejuru kandi ku tubati hakaba hariho ibitabo bagiye bahashyira ndetse hariho n'aho umuntu ashobora kubika ibikoresho bye mu gihe ashaka kuba yabirekamo.

Ishuri ririmo intebe zitandukanye z'umukara, umuhondo ndetse n'umweru. Ubona ko ari ahantu heza ho gukorera inama zigiye zitandukanye.

Inyubako irimo utubati ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bigaragara ko ari ahantu hakorerwa ibikorwa bijyanye no kubaka ndetse hakaba hari ibikoresho abafundi bakoresha.

Inyubako isakaje amategura, bigaragara ko ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho kandi ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bijyanye n'iterambere ndetse abantu benshi barabikunda.

Abanyeshuri babiri bakaba bari mu kigo, bakaba barimo kugenda basoma, hejuru hariyo amatara arimo kwaka, ni mu masaha ya nijoro ndetse kandi hariho aho bicara naho babasha kwigama gihe barimo kwiga.

Utuzu tugera kuri tubiri tukaba ari amacumbi, hepfo hakaba hariho aho bagenda banika imyenda, haruguru hakaba hariho ubusitani ndetse kandi hariho akayira abanyamaguru bagenda bacamo mu gihe bari kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, bigaragara ko iberamo inama, ni ahantu ubona harimo parafo nini, ubona ko ari nziza.

Abanyeshuri bakaba bafite mudasobwa, ndetse kandi bakaba bafite n'ibindi bitabo bigiye bitandukanye, umunyeshuri umwe akaba yasize ikaramu mu kanwa, ndetse kandi akaba ari gushira n'dutoki hejuru.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo iby'ikoranabuhanga, ndetse n'itumanaho, harimo ameza, intebe, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byo mu nzu.

Ishuri ririmo aho abantu bicara, hakaba hariho n'utumeza bagenda bandikiraho, ndetse hakurya hariho cya gikoresho cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu gutubura amashusho, kikaba hariho imbere ibyo bagiye kwiga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakunda kuba bafite za mudasobwa, bari kwiga ku buryo biyungura ubumenyi bityo bakiteza imbere kandi bagateza imbere n'Igihugu muri rusange, akenshi usanga barabigize inshingano zabo.

Mu kigo hakaba harimo abantu barimo kugenda bafotorwa ndetse kandi hariho ubutumwa burimo kugenda butangirwa hano, hakurya hakaba hariho ishyamba, ririmo ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Akabati karimo imyenda, hakaba harimo n'ibikapu ndetse kandi hariho aho abanyeshuri bagenda bashira n'amafoto ndetse harimo n'ibikombe bishobora kwifashishwa mu gihe bashaka kuba banywa amazi.

Icyumba kiberamo inama z'abayobozi batandukanye, ni icyumba ubona ko kirimo ingeri z'abantu bose, abakecuru, abagabo ndetse n'abasaza, ubona ko ari byiza.

Inyubako isize irange ry'umukara n'umuhondo bigaragara ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, hari abigiramo, hari abakoreramo inama ,ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye n'amasomo yo ku ishuri.

Inyubako nyinshi zikunze kuba zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amategura kuko usanga rimwe na rimwe ziba zikomeye ku buryo umuntu wese yifuza kubaka izi nyubako.

Inzu nini iri ahantu hari ubusitani bwiza, bukaba bugizwe n'umucaca ndetse kandi hariho ibiti bigiye bitandukanye, bituma umuntu yicaye muri ubu busitani abasha kumva akayaga ndetse akumva amerewe neza.

Umwarimu uri kwigisha abanyeshuri muri kaminuza, bigaragara ko ari umuyobozi uri kubagezaho amasomo menshi, ajyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo biyungure ubumenyi.

Kaminuza y'imyuga ishami rya Huye, IPRC Huye usanga higa abanyeshuri benshi cyane kuko bahakura ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye.

Imbaga y'abantu benshi bakaba biganjemo urubyiruko, bakaba bateraniye ahantu hamwe, hakaba harimo n'abazungu, umwe muri bo akaba ashyize urutoki hejuru kugira ngo abashe kuba yasubiza ku byo bamumubajije.

Inyubako ndende hejuru hakaba hariho ikigega cy'amazi hakaba hariho n'urwego, aho umuntu yururira mu gihe agiye kuba yakora ibitagenda neza muri iki kigega, ndetse kandi hariho n'igipimo cy'amazi.

Abanyeshuri biga muri iyi kaminuza yigisha imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro, bakaba barimo kugenda baganirizwa, bagezwaho ubutumwa bugiye butandukanye. Barimo kwiga ndetse aha ngaba ni abiga ibijyanye n'amashanyarazi.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, iyo nyubako iteye irange ry'umuhondo n'umweru harimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'ameza n'intebe bikaba ari byinshi cyane.

Abantu benshi usanga bakora ibikorwa bitandukanye bigendanye n'ibyo bize, akaba ariyo mpamvu abantu bashishikarizwa kwiga kugira ngo biyungure ubumenyi, maze babashe gukora ibyo bikorwa kandi neza.

Icyumba cyabereyemo inama zitandukanye z'abayobozi, aho harimo abanyeshuri bambaye imyenda y'imituku, ubururu ndetse n'umukara, ubonako bishimye.

Ahantu abanyeshuri bicara mu gihe barimo kureba umupira, hakaba hari ikibuga ndetse bakiniramo umupira w'amaguru. Hakaba hariho ahantu hubatse abantu baba bicaye mu gihe barimo gufana, umukino urimo kujya mbere.

Inyubako isakaje amabati atukura, bigaragara ko iyo nyubako ari nziza cyane, ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi, ikaba igeretse inshuro eshatu.

Ibikoresho bigiye bitandukanye biri ahantu mu nyubako ubona ko bimwe muri byo ari imiti bakoresha bavura amatungo kugira ngo adafatwa n'indwara zigiye zitandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bigaragara ko ari iby'ikoranabuhanga abanyeshuri bakoresha mu gihe, barimo kwiga maze bakabasha kwiteza imbere mu bikorwa bakora basoje kwiga.

Rimwe na rimwe usanga hari abarimu bigisha abanyeshuri amasomo atandukanye, bakabasha kwikorera ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi ndetse no kwiteza imbere, ari yo mpamvu bashishikariza n'abandi kubikunda.

Mu ishuri hakaba harimo intebe aho abanyeshuri bicara. Imbere hakaba hariho ikibaho gifite ibara ry'icyatsi, hakaba hariho umunyeshuri wifashe mu nyankinya ndetse kandi mbere hariho igikoresho umwarimu yifashisha, mu gihe arimo kwigisha.

Imodoka ziparitse gusa zirimo gusa n'izibisikana, hakaba hariho icyapa kiyobora abantu kigana aho ushinzwe abakozi akorera ndetse kandi hakaba hari n'indabo ziteye, zikaba zikikijwe na sima.

Urugi rusize irangi ry'umukara ubona ko rwanditseho amagambo menshi atandukanye. Uru rugi rukingishije inyubako yubatse ahantu hirengeye ubona ko isakaje amabati.